Ahantu hari ikibuga, hakikijwe n'ibiti birebire, ndetse n'ubwatsi, hicaye abanyeshuri batoya, imbere yabo hahagaze umudamu, yambaye ipantaro y'umukara, ndetse n'itaburiya y'umweru. Abo bana, abenshi muri bo bahetse ibikapu mu mugongo.

Mu kigo cy'amashuri hari kugaragara inyubako imbere yayo hari abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, umwe yambaye inkweto zijya gusa n'ikigina zifite taro y'umweru abandi bambaye amajipo n'amakabutura y'umukara hejuru bambaye amashati ajya gusana n'ubururu.

Ahantu hasashe umukeka, umukeka wicayeho abana benshi, bakuyemo inkweto bazishyira ku ruhande bafashe ibitabo bari gusoma, imbere yabo hahagaze umudamu wambaye ipantaro ijya gusa n'umukara ndetse n'itaburiya y'umweru.

Ahantu hari inyubako imbere yayo hahagaze abana benshi bakoze uruziga, hagati yabo bana harimo abadamu babiri, umwe wambaye ibitenge bijya gusa n'umutuku urimo ibara ry'umuhondo, abo bana bambaye hejuru umuhondo, hasi bambaye umukara, bakoze ku mutwe.

Inyubako y'amashuri, inzugi zayo ziteye irangi ry'ubururu, amabati asakaje ubururu ndetse n'umutuku, inyuma y'iyo nyubako hari ibiti birebire.

Ahantu hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, ku muryango wayo hari guturukayo abanyeshuri babiri bateruye akabase karimo ibiryo, ni umuceri n'ibishyimbo.

Icyumba kirimo abana b'abanyeshuri muri bo bambaye amashati y'ubururu abandi bambaye amashati y'ikigina, imbere yabo hateretse ibitabo, umwe muri abo bana aryamye ku ntebe.

Ku gikuta gisa n'igishaje giteye umucanga, hariho akadeyi, bakebye, kariho ibishushanyo by'amoko atandukanye, hariho igishushanyo cy'isuka, ishoka, umuhoro ndetse n'ibindi bikoreshwa mu rugo.

Ahantu mu cyumba cy'ishuri harimo umudamu wicaye yicaranye n'abana babiri, muri bo umwe yifashe ku tama imbere yabo hateretse mudasobwa ntoya, iruruhande rwayo n'imbere yabo hari intebe zicayemo abanyeshuri izindi zirimo ubusa.

Umuhanda w'igitaka, uhagazemo abantu benshi, harimo uwambaye ijipo y'umukara n'agapira k'umuhondo, harimo undi wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, iruhande rwabo haparitse imodoka.

Ku kigo cy'amashuri hari ibyumba by'amashuri bifunguye, imbere yabyo hari umugabo, inyuma ye hahagaze umunyeshuri wambaye ishati y'umweru ndetse n'ijipo y'ikigina, imbere yabo hari ibiti bibiri ndetse na jardin irimo indabo.

Ahantu hari igikuta hejuru no hasi hateye irangi ry'umukara, hagati giteye irangi ry'umuhondo, gishushanyijeho abanyeshuri babiri, umwe afashe igitabo mu ntoki, bombi bambaye inkweto z'umukara, undi w'umuhungu ahetse agakapu.

Icyumba kirimo agatajeri gapanzeho ibitabo byinshi, iki cyumba giteye umucanga, hejuru hari amakositara ari kugaragara.

Icyumba cy'amashuri giteye umucanga mu nda, kiri kugaragaraho ikibaho cyanditseho ijambo English ndetse munsi handitseho n'andi magambo, muri iki cyumba hari kugaragara umutwe w'umwana.

Ahantu hari inyubako y'amashuri, imbere yayo hari ibiti, imbere y'ibyo biti hicayeho abanyeshuri ndetse abandi barahagaze, iruhande rwabo hari icyapa, imbere y'abo banyeshuri hari umudamu ufashe mikoro usa naho hari icyo ari kubatangariza.

Ikigo cy'amashuri kirimo jaride nziza irimo indabo, indabo z'umuhondo, hari ibiti birebire byiza, hari indabo ntoya zijya gusa n'icyatsi, hari ubwatsi bwiza, muri ubwo busitani hateye harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba ibikuta biteye irangi ry'umuhondo, hariho utuntu tw'umukara, cyicayemo abanyeshuri benshi, abahungu n'abakobwa, muri bo harimo abambaye amashati y'umweru, udupira tw'umweru, ndetse n'amashati y'ubururu.

Abakobwa b'abanyeshuri harimo abambaye amajipo y'ikigina, amashati y'umweru, harimo uwambaye agapfukamunwa, bambaye udufurari mu ijosi, imbere yabo haparitse imodoka.

Icyumba ibikuta biteye irangi ry'umweru, harimo utuntu bamanikaho imyenda, hariho rido ndetse n'igitanda kigeretse, hejuru ku gitanda cyo hejuru hariho matela isasheho umwenda w'umutuku.

Icyumba kirimo abantu benshi bicaye, imbere yabo hari umugabo wambaye agapira k'umukara, inyuma ye hari icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, ndetse imbere ye hari umudamu wambaye agapira k'umutuku, imbere ye hari ameza n'igitambara cy'ubururu ndetse n'amazi.

Icyumba kirimo intebe nyinshi kuri izo ntebe, hagati y'izo ntebe hagiye harimo ameza yicaye azengurutswe n'abantu, imbere yabo hateretse ibyo kurya n'ibyo kunywa, iki cyumba barimo gisakaje amabati y'umweru ndetse ari kumurikirwa n'amatara maremare.

Icyumba kinini cy'imyidagaduro, hahagazemo abantu benshi, ndetse harimo n'ikipe yambaye imyenda y'icyatsi, muri abo bantu bahagaze harimo umukobwa wambaye agakabutura ndetse n'umupira ujya gusa n'umweru n'ingofero y'umweru.

Icyumba giteye sima hasi ijya gusa n'umutuku, gipanzemo ibitabo byinshi cyane by'amabara atandukanye, harimo ibitabo by'amabara y'umweru, ibitabo by'amabara y'ubururu, icyatsi, umukara n'andi mabara atandukanye.

Icyumba cy'amashuri cyubakishije amatafari ateye irangi ry'umukara, hagati ibikuta biteye irangi ry'umweru harimo abana b'abanyeshuri bicaye ari benshi, batambaye impuzankano.

Icyumba cy'amashuri kicayemo umugabo, inyuma ibikuta biteye irangi ry'umweru, icyo cyumba kirimo intebe nyinshi ndetse hari intebe iri kugaragaraho ikayi, iruhande rwayo hari ikiganza kiri gukora muri mudasobwa.

Icyumba kirimo akameza, iruhande rw'akameza hateretse akabati, hejuru parafo iteye irangi ry'umweru, hariho porojegiteri baporojegise imbere, ibikuta biteye irangi ry'umweru.

Inyubako zigerekeranyije, izo nyubako ziri kurebana inyuma yazo hari ubusitani burimo ubwatsi butoshye, inyuma y'ubusitani hari ibiti birebire, utaragera kuri izo nyubako, hari ubusitani bunyuzemo imihanda irimo amapave.

Inyubako ebyiri ziteganye ibikuta biteye irangi ry'umuhondo, imbere yazo haparitse imodoka nyinshi ndetse hari n'akandi kazu gatoya, kuri izo nyubako hagiye hariho abantu batandukanye muri bo harimo uwambaye imyenda y'ubururu.

Inyubako igeretse iteye irangi ry'umweru, munsi yayo harimo indi nyubako y'amabati asa n'ashaje, iyi nyubako izengurutswe n'ibiti ndetse n'indabo.

Icyumba cy'amashuri, ibikuta biteye irange ry'umweru, imbere hari ikibaho, harimo intebe zitambitse, hicayemo umunyeshuri, imbere ye hateretse mudasobwa, iruhande rwe hateretse agakapu ka mudasobwa.

Ahantu hari abantu bicaye ku ntebe, abenshi muri bo bambaye amataburiya y'umweru, bambaye ga z'ubururu, imbere yabo hateretse impapuro nyinshi, n'utuntu tumeze nk'udukombe, bigaragara ko hari ibyo bari gusuzuma.

Akabati k'ibiti gateye irangi ry'umutuku, gapanzemo ibitabo by'amoko atandukanye, hariho ibitabo bishushanyijeho abanyeshuri, hariho ibitabo bishushanyijeho inzu, bishushanyijeho umwana; bigaragara ko ari mu isomero.

Mu cyumba kirimo abantu benshi, muri bo harimo umugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, inyuma ye hicaye undi wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara, ishati y'umweru ndetse n'ikoti, inzu barimo ibikuta byayo bitera irangi ry'umuhondo.